Abantu bari mu cyuzi ndetse n'abandi bari hejuru yabo, babarebera, abari mu kiyaga bari kuroba amafi, bafite imitego mu ntoki ndetse biteguye kuroba cyangwa se gusarura amafi ari muri icyo cyuzi, bayajyane ku isoko.

Umworozi w'amafi uri gusarura amafi, afite amafi mu ntoki ndetse n'andi akiri mu mutego, inyuma ye hari ubutaka ndetse n'ibikorwaremezo bijyanye n'uburobyi akora.

Abantu babiri bari ku cyuzi cy'amafi. Bamaze gusarura amafi atandukanye. Arimo igikoresho cyabugenewe mu gusarura amafi ndetse inyuma yabo hari icyuzi n'ibyatsi birebire, bizwi ku izina ry'urubingo.

Umusaruro w'igihingwa ngandurabukungu kizwi ku izina rya Kawa, cyeze neza mu gitebo cyangwa se igikoresho gisarurirwamo cyabugenewe.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, ifunze mu macupa, iriho amatungo ivura harimo inkoko ndetse ibitse neza mu bubiko bwabugenewe, mu macupa asa ibara ry'umuhondo.

Iyi ni imiti ifunze mu macupa hari n'indi ifunze mukarito, ni imiti yagenewe mu gusukura amazi, ibitse neza ahantu habugenewe ndetse ikwiye kuba iri.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'amatungo, ifunze neza mu mashashi ari mu ibara ritukura ndetse n'umuhondo yanditsweho cyangwa se ishushanyijeho amwe mu matungo ivura.

Inka, nyinshi zitandukanye, ziri mu rwuri, ndetse n'umushumba wazo, ahantu hari ikirambi, ndetse n'ubwatsi bwinshi, zimwe zirisha, ndetse izindi zibyagiye.

Umurima urimo insina, ubwatsi buzwi, ku izina ry'urubingo ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye harimo ibiti n'ibyatsi byumye, ariko utaramara guhingwa.

Ububiko burimo ibintu bitandukanye harimo ibyo kunywa bifunze mu makarito, mu masashi ndetse bipfunyitse mu buryo bwizewe bibitse ahantu heza hasukuye h'umweru ndetse bipakiye neza.

Umurima munini uhinzwemo ibigori bigeze igihe cyo gusarurwa, imisozi, ndetse n'ibindi byatsi birimo bimeze nk'ibihuru.

Abaturage bari mu murima bari guhinga harimo ibyatsi byinshi byumye ndetse n'ibiteye, harimo ibiti bikuze ndetse n'imirima yo guhingwa.

Umurima urimo ibyatsi byinshi by'igihuru ndetse n'imboga, ipapayi n'ibyatsi byinshi bitandukanye. Inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abakerarugendo batatu b'abazungu, bambaye imyenda ibafasha mu rugendo, baragenda ahantu ku musozi , uriho ibyatsi byinshi, ibiti n'amashyamba.

Urwuri rurimo ihene eshatu, iri mu mabara y'umweru, indi iri mu mabara y'umukara, igiti kinini, ndetse ayo matungo ari kurisha, hari n'ubwatsi bumeze neza butoshye.

Ibikorwa remezo birimo umuhanda, umuriro w'amashanyarazi unyuze mu ishyamba ririmo ibimera, amashyamba, abaturage ndetse n'imodoka, harimo n'umukungugu mwinshi.

Umusozi muremure uriho amashyamba ndetse n'ibihuru. Impande zawo hari inyubako y'abaturage ndetse hahinzeho n'indi myaka itandukanye.

Abaturage bari mu bikorwa by'umuganda. Bari gutema igihuru. Impande zaho hari ibiti birebire ndetse hari amashyamba, harubatse. Hari n'abayobozi bashinzwe umutekano.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire kandi bikuze. Harimo ikibunda ndetse n'ibihwa byinshi, harimo amashyamba ya kimeza.

Ishyamba ryamaze gusarurwa ibiti bitemye ndetse n'ibigihagaze biri mu misozi aho ibinini biri ukwabyo ndetse n'ibito bikaba biri ukwabyo n'imirima itaramara guhingwa.

Umusaruro w'igihingwa kizwi ku izina ry'inyanya, uri mu gikoresho cyasaruriwemo, uhishije neza, usa neza mu'ibara ritukura, ndetse n'umucuruzi wazo cyangwa se uwazisaruye.

Ubusitani burimo ibimera bitandukanye ndetse n'indabo, harimo ibiti by'amapera, ibiti by'imyembe ndetse busasiye neza, harimo n'intebe zo kwicaramo.

Umuhinzi uri mu murima, umurima uhinzwemo ibijumba bigeze igihe cyo gusarurwa, inyuma ye hahinzwe ibyatsi bizwi ku izina ry'urubingo birebire ndetse n'ibiti birebire bigize ishyamba.

Ubusitani burimo imbuto nziza cyane zizwi ku izina rya pome, zirahiye neza mubi biti byazo birebire, bitoshye, bifite amababi y'icyatsi kibisi cyane.

Ubusitani burimo imbuto z'ibiti by'imyembe, imodoka iparitse hafi yaho ndetse hakorotiye hifashishijwe amabati n'indabyo n'insina.

Umurima uhinze urimo imyaka y'ibigori harimo n'ikoranabuhanga ryagenewe kuhira ubuso bunini cyane ndetse imyaka ihinze ku murongo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kuhira imyaka ndetse n'imyaka ihinze itoshye kandi isa neza n'amazi agenda ayigeraho mu bice byayo bigiye bitandukanye.

Ibikorwaremezo byubatse bifata amazi, ahantu bakamiriza ndetse banuhira ibishanga, imirima ihinze, imisozi n'ibyatsi n'ahantu hari imisozi.

Imashini z'ikoranabuhanga zagenewe mu kuhira ziri kuhira amazi mu murima uhinzwemo insina hacometseho amatiyo maremare ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ibiti bikikije umurima.

Umukozi ushinzwe ubuhinzi, uri mu gishanga yuhira imyaka, igishanga gihinzemo umuceri ndetse n'ibindi bihingwa bihingwa mu gishanga, yambaye ibikoresho cyangwa imyambaro yifashishwa mu buhinzi.

Imisozi miremire ndetse ihinzweho ibiti by'amashyamba, hera imyaka yo mu murima ndetse n'amazu, hari igihu cyinshi ndetse n'imvura.

Imisozi miremire iriho ibimera by'amashyamba n'ubwatsi bwiza bwinshi, ibiyaga ndetse n'ibirunga biri kure cyane ndetse n'ikirere gisa neza.

Ibiraro bigezweho birimo inka, byubatse neza hifashishijwe ibyuma, inka ziri kurisha ubwatsi bwateguwe neza ahantu habugenewe mu ruriro rwazo.

Itungo rizwi ku izina ry'ingurube, riba mu mabara ya kake, riri mu kiraro cyaryo, cyubakishijwe ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, ririku kurya ibyokurya byazo.

Abashumba bari mu nka hari abari gukama ndetse n'abashoreye inka aho ziri hakikijwe ibyuma, iruhande rwazo hari inyubako ndetse n'amashyamba n'ibyatsi by'aho zirisha.

Ikiraro cyubakishijwe imbaho, gisasijwe imuyugu. Inkoko zitera amagi ndetse n'ibiryo ziriramo biri mu ibara ry'umutuku n'umweru. Ziri kunywa amazi ndetse n'imigozi izifashe.

Inka iri mu kiraro cyayo cyubakishijwe ibyuma n'amatafari, iri kurisha, yambaye iherena ry'umuhondo, inka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ikiraro kigezweho kirimo inka zitandukanye cyubatse neza n'ibyuma bikomeye, aho inka ziruhukira ndetse n'aho zifatira ibyo kurya gisakaye neza.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu bworozi bw'amatungo mu kugabanya indeshyo y'ubwatsi, kiri mu ibara ry'umutuku, gifite amapine , n'aho ubwatsi bunyura, ndetse n'amaguru mu ibara ry'ubururu.

Ikiraro cy'inkoko harimo inkoko zitandukanye z'amasake inkoko kazi ziri ahantu hasasiye n'ibibarizo harimo ibikoresho zinyweramo amazi ndetse n'icyari zitereramo amagi n'ikigega cy'amazi hanze.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buhinzi, batubura imbuto kugirango babone umusaruro, biri mu mabara y'umweru, umuhondo, bicometsemo insinga ndetse bira ahantu mu cyumba, ubona ko byitaweho bifite isuku.

Umusaruro w'ibihingwa harimo: ibishyimbo, ubunyobwa, umuceri, soya, amasaka, amajeri ndetse n'imisogwe.

Umusaruro w'igihingwa cy'imbuto uzwi ku izina ry'ingano, weze neza kandi mwinshi, utonoye neza ndetse na kimwe mu bishishwa batonora..

Umuvuzi w'amatungo, imbwa ndetse n'umuntu uri kumufasha mu kuvura iyo mbwa iryamye hasi ku bikoresho byabugenewe, ibikoresho byifashishwa mu kuvura harimo ga, inshinge, ibipfuko ndetse n'igikoresho biteretseho.

Umuvuzi w'amatungo wambaye itaburiya ndetse na ga afashe igikoresho cyabugenewe mu gutera intanga yitegura gutera intangaga ahantu habugenewe mu rupango.

Inyama zabazwe umuntu ushinzwe ubuvuzi bw'amatungo uzwi ku izina rya veterineri, ahagaze aho ari gupima ubuziranenge ,yambaye ibikoresho by'ubwirinzi nka bote, afashe icyuma cyabugenewe mu gupima inyama, kugira ngo agenzure ubuziranenge bwazo.

Umuvuzi w'amatungo, uri kuvura, yambaye ga ziri mu ibara ry'ubururu n'itabuririya y'umweru, ari kuvura itungo ryakomeretse, rifite igisebe.

Umuvuzi w'amatungo wambaye itabuliriya y'umweru na ga, uri muri laboratwari yandika, mu ntoki afitemo marikeli yifashishwa mu kwandika ku bikoresho.

Inyamaswa iri mu mabara meza cyane izwi ku izina ry'ingwe, iri muri parike, irasamye, inyuma yayo hari ibimera, iraryamye, yiteguye gufata umuhigo wayo.

Inyamaswa y'agasozi izwi ku izina ry'ingwe iri ahantu iryamye ku biti, impande zaho hari ibimera cyangwa ibyatsi biri mu mabara y'icyatsi yitegeye iri kureba hakurya.

Inyamaswa izwi ku izina ry'imvubu, iri kumwe n'izindi zitandukanye ndetse n'abana bazo, bari ahantu mu kiyaga, ziri koga ndetse impande zabo hari ibiti binini n'ibyatsi.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'imbeba ifite umurizo ubyibushye n'ubwobwoya bwinshi, buri mu murima ndetse ahantu munsi yigiti buri guhurisha ibyatsi.

Inyamaswa z'agasozi zitandukanye ziri muri pariki. Harimo: isha, intare, inzovu, imvubu, agasumbashyamba ndetse n'ingwe ndetse n'ibisiga. Hari n'ibiti byinshi n'ubwatsi bwumye.